Uyu ni umuntu w'igitsina gabo, yambaye tisheti y'umukara. Afite byeri mu ntoki, mu kirahure.

Hano hari abantu batatu babiri muribo n'abigitsina gore ndetse undi wo mohagati n'umugabo inyuma yabo hari aka etajeri karimo inzoga zitandukanye zo kunkwa.

Icyapa kinini mu ibara ry'umutuku n'icyatsi kiriho abagabo benshi bari kubyina, hagati hari icupa rinini rya sikoro ry'icyatsi.

Hano turi munzu irimo ibintu byinshi bitandukanye ariko hakaba amabara y'umutuku, icyatsi n'ubururu, hahagaze abagabo babiri imbere, umwe muri kontwari n'undi inyuma.

Iyi n'inzu nkuko bigaragara irakeye isa neza, hirya harimo inzoga zigiye zitandukanye ndetse hino ni kontwari isa umweru, yegeranye n'intebe bisa.

Hano ndi kuhabona amacupa abiri ya pirimusi ndetse n'igikombe cy'ikirahure kirimo inzoga, hirya hari ikirango cya emutiyene gihabwa umucuruzi kugira ngo ajye abashisha kwishyurwa kuri kode.

Hano hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye. Hariho ibirahure bibiri birimo icyo kunywa ndetse n'amacupa ya Amstel, apfunduye impande....

Hano ndabona igipangu kigali kirangaye, hejuru yacyo hari icyapa kinini cya AMSTEL biya; hino gato ndahabona igare riparitse nta muntu uririho, ndetse na moto mu muhanda ziri kugenda.

Hano uko bigaragara ni iduka abantu bakunze kwita akabari cyangwa se bare, ndikuhabona utu etajeri turimo inzoga zitandukanye pirimusi, mitsingi ndetse na marike hagati ni televiziyo y'umukara ijimije.

Iki ni icyapa kinini kijya k'umuhanda bakunze kwita Bose babireba . Kiriho inzoga ya SKOL kiba kiri kwamamaza

Iki ni ikirahure giteretse ahantu ku meza, harimo inzoga hakaba handitseho ijambo Amstel ikigaragara ni rwo ruganda rwayikoze, inyuma gato hari izindi m'utubati.

Abantu babiri bahagaze umwe yambaye ikanzu y'ubururu afite akamashini mu ntoki undi afite ibisuko by'umutuku afite ikarita mu ntoki hirya hari icyapa kiriho icupa cyanditseho Jameson.

Hano nkuko bigaragara ni inzu icuruza ibinyobwa bigiye bitandokanye, hakaba hari ameza atukura, turabonamo inzoga yo mu bwoko bwa rikeli ipfundikiye, ndetse hakurya hakaba hari n'izindi ziteretse ku meza y'umukara z'ubwoko bugiye butandukanye.

Hano hari inzu zitegeye umuhanda w'amabuye. Harimo gutambukamo umuntu ufite ka amvelope mu ntoki hagana imbere hari umutaka.

Hano hari ameza nkuko bigaragara ateretseho ibintu bibiri, kimwe muri cyo ni ikirahure kirimo icyo kunywa, ikindi gikurikiye ni icupa rya virunga.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo hagati harimo umugabo uri kunkwera mukirahure ufite imisatsi myinshi, hariho icupa rya virunga rinini kuruhande hariho ikirahure giteretse.

Iyi ni imeza isa umukara iteguweho ibyo kurya mu isahane nayo isa umukara n'ifurusheti ku ruhande, hirya yaho hari inzoga abantu benshi bakunze kwita ve cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda divayi.

Hano hari inzu irimo abantu b'ingeri zitandukanye bamwe baricaye ndetse abandi barahagaze ni abagabo n'abandi ni abagore bari kunywa inzoga nk'uko bigaragara ni mitsingi ndetse n'ubundi bwoko.

Iyi nzu nkuko bigaragara ifitemo kontwari ndetse hirya hakaba hari etejeri irimo ibinyobwa bitandukanye ndetse inzoga ndetse n'amafanta ku ruhande hari televiziyo ndetse na firigo.

Hano hari inyubako irimo ibinyobwa bigiye bitandukanye ndikubona ameza asa umutuku, ndetse hakaba hateretseho icupa rinini ryo mu bwoko bwa likeri ribonerana. Kumwe n'ibindi birahure, ku ruhande birimo inzoga.

Hano hari inzu irimo ibikoresho bitandukanye. Ndabonaho etajeri irimo inzoga nyinshi, amarikeri, ndetse n'amabyeri. Hasi hari amagaziye abikwamo ibyo kunywa, asa umutuku, ndetse hino hari n'intebe yo kwicaramo.

Hano hasa nkaho ari ku gisenge hari amabati atukura ndetse hakurya ni ibyapa binini cyane bya bose babireba byanditseho Amstel beer no hirya hari ikindi kiriho Skol Martin.

Iyi ni inzu icururizwamo ibinyobwa bitandukanye, ndi kubonamo abantu benshi b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo. Baricaye bari kunywa banasabana.

Umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, afite agakombe k'umweru mu ntoki, hirya hari firigo ziri kwaka amabara y'umweru, zirimo amacupa.

Iyi ni inzu ifite amakaro hasi ndetse yegereye ku muhanda imiryango yayo irarangaye ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, imbere ndikubona intebe ebyiri zisa umukara ndetse n'imeza.

Hano hari abantu barenze batatu, babiri muri bo ni ab'igitsina gabo ndetse abandi ni ab'igitsina gore, imbere yabo hateretse inzoga ndetse na fanta, undi afite telefone mu ntoki.

Hano hari ameza ateretseho ibintu bikurikira; hirya hari icupa ritagaragara neza ubwoko bwayo ariko hino ni amusiteli, hagati ikirahure kirimo inzoga.

Hano hari amazu atandukanye hanyuama hakaba haparitse amamodoka menshi hino gato hari icyapa kinini bose babireba cyamamaza inzoga yitwa mitsingi.

Hnao hari ikirahure giteretse ku meza, icupa, agakarito k'isigara, hirya hahagaze umuntu, inyuma ye hari kwaka amatara y'umweru, ku ruhande hari amacupa atandukanye.

Hano hari umugore, aricaye ndetse yashyize amaboko ya ku meza. Hino gato, hari umwana utagaragaza neza isura. Ariko yambaye ishati isa umweru.

Hano ndabona hari inzu icuruza ibyo kunywa bitandukanye, hasi hakaba hari amakesi asa umutuku, icyatsi ndetse n'ubururu abikwamo inzoga, hejuru gato ni etajeri irimo amarikeri n'ibindi bintu.

Icyapa kinini kigizwe n'ibara ry'umutuku n'umweru cyanditseho amagambo amusiteri biya hasi hari icupa rinini ripfundikiye neza ririmo inzoga, k'uruhande hari ikirahure gisutsemo inzoga.

Iyi mu bigaragara ni inyubako yo kwinezerezamo cyangwa kwishimishirizamo, bayikoresha banyweramo ikintu cyangwa se inzoga. Ndi kubona amabara agiye atandukanye mu iyi nyubako, harimo umukara n'umweru n'andi mabara.

Hano hari akabati uko bigaragara kabikwamo inzoga z'amoko atandukanye bigaragara nkaho zihenze, impande yako hari televiziyo nubwo itagaragara neza ariko wagira harimo umupira.

Uko bigaragara hano ni akabari cyangwa se bare hicayemo abantu babiri ku ntebe, hirya gato hari televiziyo isa nkaho iri kwerekana umupira kumpande hari ibindi bintu by'ibicuruzwa bitandukanye.

Hano ndi kubona ameza, intebe n'umuntu uhagaze wambaye umupira w'icyatsi, imbere ye hari televiziyo irimo ibara ry'icyatsi, hacanye amabara y'umutuku muri kontwari.

Igipangu gifunguye kinini cy'umweru, hejuru hari icyapa kiho amacupa ya sikoro icyatsi. Ku ruhande hari igikuta kinini kiriho ibara ry'umuhondo.

Iyi nzu irimo aba bantu bangana gutya, ikigaragara ni ahantu abantu biyakirira; akaba yanywa inzoga, fanta ndetse n'ibindi...,; bityo bikamufasha huruhura mu mutwe.

Iyi ni inzu yo kwidagaduriramo. Harimo abantu benshi bagiye batandukanye ndetse ameza ateretsemo arimo inzoga, hanyuma ikirango kigaragara cyane muri iyi nzu ni Henikeni.

Hano hateretse ibirahuri, ku meza asa umukara ndetse bikaba ari byinshi. Kimwe muri cyo, kirimo agapapuro k'umweru ndetse n'intoki ku ruhande ebyiri zitandukanye.

Hano hari ameza hariho intoki ebyiri zifashe terefone, ndetse hakaba hateretseho inzoga yo mu bwoko bwa rikeri ntabwo igaragara neza izina ryayo gusa hariho n'ibirahure ubonerana.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku cyanditse Amstel, munsi hari icupa rinini ripfundikiye ku ruhande hari ikirahure kirimo inzoga yuzuye.

Uyu ni umuntu umwe ntawundi uri kuhagaragara. Yambaye umupira urimo amabara: umweru, umutuku ndetse n'umukara. Yicaye mu ntebe ari kurambura igitabo, asa nk'aho ari gusoma.

Hano hari kontwari y'umukara, etajeri y'umukara, udutebe twiza cyane duteretse imbere, hahagaze umuntu wambaye ishati y'umukara, harimo amacupa menshi atandukanye.

Iyi n'inzu abantu benshi bakunze kwita akabari aho burimuntu ajyayo akankwa icyo ashaka, hano ndikubona abantu benshi bari kunkwa inzoga zigiye zitandukanye mitsingi, amusiteri, sikoro nizindi.

Hano uko bigaragara ni ku muhanda hari umuntu uri gusunika igare rye hirya igipangu kinini ndetse kirangaye, hejuru yacyo hari icyapa kinini cya amusiteri biya.

Ndi kubona ameza ariho ibiyiko bibiri n'isahani iriho ironji amaboko abiri kumwe gufite itasi kuri guhereza ukundi kuboko kwambaye isaha n'impeta.

Hano ni mu muhanda ni uw'amabuye, hari gucamo moto ihetse umugenzi, hari imodoka isa umukara ndetse itandukanwa n'iyindi isa nk'ivu y'icyapa kinini cy'umutuku ndetse n'umweru cya amusiteri biya.

Izi ni inzoga zitandukanye mu bwoko bukurikira imwe yitwa mitsingi indi sikoro ikurikira amusiteri zikaba zikorwa n'inganda ziza zipfundikiye.

Habo ni inyubako cyangwa se iduka ricuruza ibinyobwa, uko bigaraga mu bu etajeri ndi kubonamo inzoga zigiye zitandukanye, ndetse impande yayo hari firigo iri kwakamo amatara.

Iki ni igikuta kinini kandi cyagutse. Gifite amabara abiri yiganje ari yo umutuku ndeste n'umuhondo, cyanditseho ijambo Sikoru. Kiraba kiri kwamamaza iyo nzoga yitwa gutyo.

Hano hari inyubako yubatswe mu buryo bwiza ifite ibikuta bisa umweru ndetse mo imbere turabonamo imyenda igurishwa imanitse. Hanze hari icyapa cyanditse ngo Rwanda closing store.

Imodoka ebyiri ziparitse, imwe ifite icyapa cya yundayi hanze. Imbere hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa, umupira w'umweru, ikoboyi.

Hano ndi kubona inzu irimo abantu bane. Umwe arahagaze, abandi baricaye. Hirya hari igikuta cy'umweru, cyanditseho amagambo; " Wohereza amafaranga kuri konti zo muti jiti banki".

Hano hari indobo. Isa nk'ibonerena, ndetse mo ndani harimo amandazi abiri yinyine n'akantu ko kuyafatisha.

Hano, ikigaragara cyo ni iduka ricuruza amata. Hirya abantu babiri; umugabo nk'umwna , hakaba hari abakiriya.

Hano ndi kuhabona icyuma cyagenewe gukonjesha amata ndetse kikanayasukura mu mpande yacyo hahagaze umugabo mu ibara hejuru umukara hasi ubururu ndetse afite igicuba ari kubuganiza.

Hano ndikubona imbere yanjye intebe y'ubururu impande yayo hahagaze umugabo wambaye imyenda mu mabara akurikira umukara hasi giri, hirya ye muri kontwari hari umukobwa.

Hano hari icyapa mu mabara yacyo ni ubururu ndetse kiramamaza, amagambo yanditseho ni Nyanza miliki indasitiri, hakaba hariho ibishushanyo bigiye bitandukanye, inka, amayahurute ndetse n'utubido tujyamo amata.

Hano hari ameza ateretseho akantu gakozwe muri purasitike, gasa ibara risa nk'ivu, ndetse kakaba karimo ishashi irimo utuntu tw'udupapuro, benshi bakunze kwita seriviyete.

Hano hari icyapa mu ishusho rinini cyanditseho Mukamira mu magambo asa umweru cyo ubwacyo ni ubururu hejuru hari amakarito y'amata ndetse n'abantu babiri bambaye imyenda isa.

Hano hari intoki tutazi neza nyirazo kuko ntabwo yagaragajwe isura ariko zifashe isahane isa umweru hakaba hariho ibintu by'ubwoko byo kurya byitwa amandazi bikaba bikoze mu ifarini.

Hano hahagaze umuntu utari kugaragara neza mu isura, gusa yambaye hejuru umukara, hasi ni umweru uvanze n'iryo bara rindi ndetse hirya hari icyuma gikonjesha amata kikanayasukura.

Hano ndi kuhabona igikoresho kibikwamo ibinyu bitandukanaye amatasi, amasahani, ndetse hejuru gato hari amandazi, mu ndobo ibonerana, hirya hari aka etajeri karimo amata ntetse n'amazi.

Iyi ni inyubako irimo ibyuma bikonjesha amata cyangwa se bikayarinda kwangirika bibiri hasi yubakishije amakaro.

Ibi bintu mu bigaragara ni ibyo kurya bikozwe mu ifarini. Bikunze kwitwa amandazi. Ni menshi, kandi ari ku isahani. Ateretse ku meza. Rimwe rirasatuye.

Hano hari ibyo kurya bikozwe mu mafarini ndetse n'inyama benshi bakunze kwita amasambusa. Imwe ishunnyeho ndetse zose ziteretse ku meza yera.

Hano hari ameza ateguye neza, yoroshweho igitambaro ndetse hateretseho n'isahane ririho irindazi ryo kurya na seriviyete umuntu akoresha afatisha.

Hano hari inzu irimo amakaro wagira ngo yamenetseho amazi. Hanze yayo, hari moto iparitse. Nta muntu uyiriho, hino gato n'igare naryo ni uko.

Utu ni utuntu abantu benshi bakunze kwita udutureyi. Tubikwamo amagi cyangwa ndetse kugira ngo atameneka cyangwa tukayarinda ibindi. Harimo icumi bikaba biteretse ahantu horoshwe agatambaro gasa umweru ndetse n'ubururu.

Hano hari icyapa, mu magambo yacyo yanditseho "ikaze dayari". Icuruza ibintu bigiye bitandukanye amayahurute, amata ndetse n'ibindi bintu, hirya ikaba ifite imiryango isa umweru.

Hano ikigaragara ni inzu icuruza amata hirya hari icyapa cyanditseho oruwayizi asike foru inyange hino har' ibindi ariko byiganjemo ibara risa ubururu hakurya hari aka etajeri karimwo ibyo kurya amaji ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye

Hano hari icyapa mu bwoko bw'ibyamamaza, kikaba gisa ubururu ndetse amagambo acyanditseho ni umweru agira uti NYANZA MILK INDUSTRY, basa nk'aho bacuruza amata.

Hano hari amazi ateretse yo mu bwoko bwa Nil. Ni matoya ndetse ni icumi. Impande y'ayo macupa hari amverope ebyiri, inini ndetse n'intoya.

Iyi ni inzu yubakishije amatafari ahiye, kandi hasi ni amakaro iteretsemo icyuma gikonjesha amata cyikanayasukura, cyanditseho Nyanza milike indasitiri mu magambo y'umweru ndetse n'ubururu.

Hano hari inyubako hasi yubakishijwe amakaro ndetse hakaba hateretsemo intebe z'amabara atandukanye ubururu ndetse n'umweru hirya gato hari firigo ifunze kumwe n'indi yanditseho Mukamira.

Iyi ni inzu icuruza amata izwi nka Inyange Miliki zone, hirya hari abantu babiri bari muri kontwari, basa nk'aho ari abacuruzi, ku rundi ruhande hari abandi babiri basa nk'aho ari abaguzi, hirya y'abo hari icyuma gikonjesha amata.

Hano ndahabona ibinyobwa bigiye bitandukanye ariko byose bihuriye ku kintu kimwe, bikozwe mu mata y'inka, hirya ndahabona ayari mu tubido tunini, hino yahurute mu ibara ry'umutuku ndetse n'utundi dutoya dupfundikiye hakuno mu makarito.

Hano hari ameza. Ariho ibintu biri mu bwoko bwibyo kuryo abantu benshi bakunze kwita imigati ikozwe mu ifarini ndetse aho iri irasatasataguye mo uduce twinshi.

Hano uko bigaragara aya ni amacupa arenze atanu akaba afite ikirango cya Nil arimo amazi ndetse afite imifuniko y'ibara ry'ubururu, ku rundi ruhande hari igikarito cyayo.

Uko bigaragara nubwo atari neza iyi ni firigo ibitsemo ibintu bitandukanye, harimo akabido kanini k'amata ndetse n'amayahurute agiye atandukanye amanini n'amatoya ndetse ku ruhande hari amazi.

Hano hari intoki zambaye umwenda, urimo utuntu tw'umweru ndetse n'umukara zifashe igikombe kibonerana kirimo amata, cyari giteretse ku meza n'ayo isa umweru. Hirya gato hari undi uri gusoma.

Hano hari umumama uri kureba hino. Yambaye ingofero, ndetse asa inzobe. Hasi ndabona ari ikanzu irimo utuntu tw'utuzeru, dusa ubururu. Intoki ze zifashe akabido.

Hano uko bigaragara ni inzu icururizwamo amata, hateretsemo icyuma cyanditseho inyange miliki zone. Hirya yaho hari aka etajeri gateretsemo amata, amaji, amazi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Hano hari icyuma, ni kinini, gikonjesha amata, ndetse kikanayarinda, kikanayasukura. Mu mpande yacyo, ni ibara ry'ubururu. Cyanditseho amagambo " Mukamira". Mu mpande hari aka etajeri karimo amazi atandukanye; Nili ndetse na Bele.

Hano uko bigaragara ni iduka ricuruza amata, ndikuhabona icyuma kiyakonjesha ndetse hahagaze umuntu, hino yayo hari aka etajeri karimo amandazi no hakurya hari n'aharimo amazi, hino hari ijaga isa ubururu.

Hano hari ibintu byo mu bwoko bw'ibinyobwa bikunze gukundwa n'abana cyane ndetse n'abandi bantu bakuru.

Hano hari umumama uhagaze, intoki ze zifashe ku gikuta, yambaye ikanzu y'umutuku n'utundi tubara, hanyuma ku ruhande hari icyuma cy'amata.

Hano ndi kuhabona ibyo kunywa bitandukanye mu buryo bukurikira amata ndetse na yahurute hirya kandi hari umumama asa nkaho ariwe uri kuyacuruza akaba yambaye ikanzu isa mu ibara ry'umweru.

Aha ndikubona aka etageri gateretse ahantu, harimo ibinyobwa bitandukanye muri byo harimo fanta, ji y'Inyange, marite, nili ayo ni amazi, novida, embe n'ibindi.

Hano hari icyma cyangwa se firigo ijyamo amata kugirango adapfa. Kuruhande hari igikuta cy'amatafari ahiye. Naho, mu mpande yacyo hari ibara ry'ubururu.

Iyi nzu ikigaragara icuruza amata hirya hari firigo, ku ruhande hari akabati karimo amabido y'umweru nay'umuhondo, amandazi kuri kontwari n'umugore

Hano hari iparato cyangwa se isiniya iteretse ahantu hejuru yayo hariho ubwoko bw'ibyo kurya benshi bakunze kwita amasambusa, ntituzi niba ari ay'inyama cyangwa ari ay'ibirayi.

Iri n'iduka ricuruza ibintu bitandukanye, ndikubonamo abantu babiri ndetse n'ibicuruzwa bindi. Mur'ibyo ni amata, biswi, ji ndetse n'amazi. Ruguru gato hari ama yahurute n'imigati.

Hano ni mu nzu ifite purafo y'umweru n'umukara ndetse hahagazemo abagabo babiri, umwe asa nkaho akuzemo kandi yambaye amarinete. Undi ni ishati cyangwa se umupira usa icyatsi. Imbere yabo hakaba hari indobo zirimo ibyo kurya.

Hano hari inzu ifite imiryango y'ubururu, irangaye. Hejuru yayo handitse Inyange Mikili Zone. Basa nk'aho bacuruza amata.

Aha ni ahantu hatari kugaragara umuntu n'umwe, hari amakaro asa nk'aterurutse cyane ndetse hirya gato hari n'andi yerurutse cyane naho ku rundi ruhande hari icyuma cy'amata.

Turi munzu irimo ibintu bigiye bitandukanye by'amoko menshi icyuma cy'amata, intebe, ameza, amagi, amajerekani, amazi, ikarito...

Hano hari umuntu n'ubwo atari kugaragara neza, ni igitsina gore. Agasatsi ke kamanutse ku matama, ndetse intoki ze zifite yahurute. Ari kuyisoma, ayinywa.

Hano ndabona utubido turenze dutandatu ndetse dusa umweru turapfundikiye turateretse kandi nk'uko bigaragara harimo amata kimwe n'utundi dukarito duteretse natwo.

Hano hari ibintu byo mu bwoko bw'ibyo kurya bikozwe mu ifarini benshi bakunze kwita amandazi uko bigaragara ni umunani yose asa umutuku.

Inzu irimo intebe, ameza, icyuma cy'amata, indobo, amazi, injerekani, amvirope, icyapa kinini gishushanyijeho utubido twa rindwi.

Hano hari akana uko bigaragara ni gatoya gafite imyaka mike, hirya y'aho hari abantu babiri, umwe yambaye ijire y'umutuku ndetse afite telefone mu ntoki ze, hakurya ndi kuhabona igicuba kibikwamo amata.

Hano hari abantu batatu, babiri n'abana ndetse n'umugabo umwe, imbere yabo hari ameza yera ateretseho utubido tubiri tw'amata ndetse n'igicuba bakaba bari kunywera mu bikombe by'ibirahuri.

Iyi ni firigo uko bigaragara nta bintu byinshi birimo ariko icyo mbonamo ni jaga ebyir imwe ibonerana n'indi ijya gusa icyatsi ndetse n'aakabido k'umweru n'amazi mu gacupa gato.

Hano hari ibintu bibikwamo amata cyangwa se ibicuba biteretse mu nzu irimo amakaro, ni byinshi uko bigaragara ndetse byose birapfundikiye nta kimwe gifunguye, ahari hashobora kuba habitsemo ibintu cyangwa nta bitabitsemo.

Hano hari ameza, ateretseho amakarito abiri, ni matoya aragerekeranyije, akambere kanditseho Natural coffee, akanyuma ko ntabwo kagaragara neza, hakurya ndikuhabona amayenajyi ndetse n'ibindi binyobwa.

Hano hari akabati cyangwa aketajeri gasa umweru kirya ni igikuta cy'ubururu ndetse hakaba harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye ndikubonamo fanta, ji , amazi ndetse n'ibindi binyobwa byinshi.

Hano hari umuntu umwe w'igitsinagore yambaye ingofero ndetse intoki ze zifite ijaga isa icyatsi irimo amata ari gusuka mu kabido. Ku ruhande hari utundi twinshi.

Uyu mu bigaragara ni umuntu ntabwo ari kugaragara neza mu maso gusa yambaye isarubeti isa oranje mu mugongo he handitse amagambo atandukanye impande ye hari amagi.

Hano hari ameza ateretseho igikombe cy'amata mu kirahure. Ku ruhande hari bike y'ibara ry'ubururu, hanyuma n'intoki zifashe keke ishunnyeho ikigaragara ni umuntu uri kurya.

Hano hari ameza eteretseho isahani is'umweru, hariho keke eshatu (ni ibyo kurya bikunze kwitwa gutyo bikozwe mu ifarini) ndetse kumwe na seriviyete yo gufatisha.

Hano hari imeza isa umweru, iriho ibintu bitandukanye; isahane, imineke, akantu karimo amagi, ndetse n'indobo irimo amacapati. Iyo ku ruhande yindi ibomerana, irimo amandazi.

Turi mu nzu irimo intebe n'imeza y'umweru. Hirya hari icyapa kinini gishushanyijeho utubido turimo amata n'icupa rya yawurute.

Aya n'ubwoko bwibyo kunywa abana benshi bakunda cyane ndeste n'abantu bakuru batari bake, yahurute ikozwe mumata ndeste nibyinshi harimo; ubucuritse ndetse n'ubucurukuye butandukanye.

Iyi ishobora kuba ari iduka ricuruza ibintu bitandukanye nk'uko babivuze kuri kino cyapa kiriho umwana. Handitseho " Ni amata meza, ateguwe neza, ashobora guhita anyobwa, yuzuye ubuziranenge".

Uyu ni umuntu utari kugaragara neza mu maso hirya gato hari icyapa cyanditseho mu magambo y'umweru Mukamira Dairy Limited amata ni ubuzima hagati hari amata bari gusuka mu gikombe.

Hano hari abantu babiri batandukanye, umwe ni igitsina gabo undi ni igitsina gore, akaba afite telefoni mu ntoki. Uwo ku ruhande ari kugenda asa nk'aho yitegeye akayetajeri kabitsemo ibintu.

Hano hari umumama wicaye impande ya firigo iriho icupa rya koka kola, imbere ye hari itasi irimo icyayi ndetse n'ikiyiko akoresha akoroga, intoki ze afitemo telefone.

Hano hari inzu isa nkaho icuruza amata nkuko bigaragara ku miryango yayo isa ubururu ndetse n'igikuta gifitemo amabara y'umweru, amabati aje imbere nayo asa nk'imiryango ndetse hakaba hariho n'ibirango bitandukanye.

Hano hari abantu batatu babiri ni ab'igitsina gabo umwe ni umugore urimo hagati yambaye umupira w'umukara.

Iyi ni inzu icuruza amata, uko bigaragara harimo umuntu umwe w'igitsina gore, yambaye itaburiya mu ibara ry'umweru, intoki ze ziri kubuganiza amata mu yindi jaga.

Kubona umuntu w'igitsina gore ufite akabuni ka cumi n'atanu ari gusuka amata y'ikivuguto mubikombe by'ikirahure biteretse kw'iparato y'umweru.

Iyi ni isahane iteretse ahantu hatagaragara neza ariko isa ubururu, ikaba iriho ibyo kurya mu bwoko bukozwe mu ifarini bikunze kwitwa isambusa nyinshi.

Hano ikigaragara ni intoki zifashe capati yashunweho, ku rundi ruhande hari isahane isa umweru iteretse ku meza nayo ifite iryo bara, kurundi ruhande hari igikombe cy'ikirahure sinzi ikirimo.

Iyi ni indobo isa umweru ibonerana mo imere yayo harimo ibyo kirya bikoze mu ifarine benshi bakunze kwita keke, irarangaye ndetse nta muntu n'umwe uhari.

Hano hari aka etajeri mw'ibara ry'ubururu hejuru harimo akantu karimo capati ndetse hasi uko bigaragara ni keke ahakurikiye ni amasahane.

Hano hari ibyo kurya bikozwe mu ifarini abantu bakunze kwita amandazi ni menshi ndetse ateretse ku isahani ifu mu ibara ry'umweru hanyuma hejuru ndikuhabona andi asatuye.

Hano hari icyapa, ndi kubona, gisa ubururu bwiganje, ndetse amagambo acyanditseho ni ay'umweru ndetse n'icyatsi. Inyange Miliki zone. Kigaragaza ko kiriho ibintu bikurikira: amata, amazi, amayahurute, ndetse n'amaji.

Hano uko bigaragara ni inzu igurisha ibintu bitandukanye nka ndikubonamo fanta, amaji ndetse na ma inaji hakurya hari imineke.

Aba ni abantu batatu babiri muri bo ni ab'igitsina gabo naho undi umwe usigaye ni uw'igitsina gore, bicaye ku ntebe zera ndetse imbere yabo hari ibikombe by'amata.

Hano hari ubwoko bw'ibyo kurya, bikozwe mu ifarini. Benshi bakunze kwita isambusa. Uko bigaragara, ni nyinshi cyane, kandi ntabwo tuzi niba ari iz'inyama cyangwa ari iz'ibirayi.

Hano hari ameza asa umweru ndetse hakaba hateretseho igikombe k'itasi cyangwa se k'ikirahure kirimo amata y'inshyushyu, ku ruhande akaba yegeranye n'isahane.

Uyu ni umuryango urangaye nkuko bigaragara ufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, amagambo yanditsemo ni Nyanza miriki indasitiri kumwe n'inka. Hasi ifite serire isa umuhondo.

Hano harimo abantu bane, babiri muri bo ni bakuru ndetse abandi ni abana. Muri iyi nzu isa ubururu ndetse hakaba hateretsemo n'ibicupa by'amazi ya jibu na byo bisa

Aba ni abantu b'igitsinagore bose bari kumwenyura ndetse barasutse. Umwe muri bo afite amata ikarito.

Hano hari ibicupa cyangwa se ibicuba bashyiramo amata igihe bayajyanye ahantu cyangwa se bamaze kuyakama, hakaba hari umugabo hirya yabyo asa nkaho arigushyiramo amata.

Ahangaha ikigaragara ni munzu hakaba hateretsemo aka etajeri kakaba karimo amajerekani abiri yumweru adafite umifuniko, hasi hari ibara ry'ubururu n'umweru.

Hano mubigaragara n'iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ji ,amata ndetse n'amazi by'inyange , hirya gato hari fanta , imbere hari indobo .

Hano ndikubona umumama uri kwakira igikombe umugabo uri guseka amuhereje, hirya hari umuntu wambaye ingofero y'ubururu, yicaye ku ntebe

Hano hari abantu babiri umwe ni igitsina gabo undi ni umukobwa. Asa nkaho ari kugurisha ibintu itandukanye, mu ntoki ze akaba afitemo inoti ya senkisa, inyuma ye hari amaji agiye atandukanye, mu muma etajeri.

Ahantu hari ameza asa umweru ateretse mu nzu yubakishijwe amatafari ahiye nkuko bigaragara ku gikuta hanyuma hakaba hateretseho akantu kabonerana kabikwamo kirida.

Hano hari abana babiri bari guhabwa amata, bari kuyanywera mu bikombe by'ibirahure, bafite keke mu ntoki bayifatishije seriviyete. Hirya na none ku meza hariho utubido tubiri turimo amata n'igicuba kijyamo amata.

Hano hari icyuma kijyamo amata. Mu mpande yacyo gisa ibara ry'umweru, ndetse n'amagambo agira ati: "Inyange miriki zone." Hirya yacyo hakaba hari, aka etajeri karimo amacupa y'amazi ndetse n'amaji.

Hano nk'uko bigaragara, hari inzu ikorerwamo ubucuruzi, yubakishijwe amakaro hasi ndetse nkaba ndi kubona abantu babiri, hirya ni umukobwa, hino hakaba hateretse ijaga, n'umufuniko utukura.

Iri ni iduka ricuruza ibintu bitandukanye, uko bigaragara mu ka etajeri harimo amazi, amata ndetse na ji, kuri kotwari ni amagi.

Hano ndi kubona imodoka y'umweru iparitse ifunguye iri gusohokamo umumama, ku rundi ruhande hari umugore wambaye ipantaro y'ubururu n'agapira k'umuhondo.

Hari umuntu wambaye akagofero k'umupira, ufite jage mu ntoki. Ari gusuka amata mu kabido k'umweru gateretse ku meza. Hasi hari amakaro ku ruhande hari icyuma cya tayari.

Hano hari akantu gakozwe muri plastike ndetse gasa umukara, kakaba gateretse ku meza nayo y'umweru harimo amagi atarenze atatu ntabwo atonoye ndetse n'akandi kantu gateretsemo.

Hano hari inzu yose uko bigaragara yubakishijwe amakaro, hahagazemo umuntu w'igitsina gore, inyuma ye hari intebe ya sheze, ndetse n'ameza, hejuru hakaba hariho rogisitiri.

Hano hari ibyuma ni bibiri, ako hagati ntabwo nkazi. Uko bigaragara, biri mu nzu ifite igikuta cy'ubururu hasi yubakishijwe amakaro. Impanda hari indobo ibonerana imbere ya robine.

Hano uko bigaragara hari ameza y'umweru ndetse n'andi mabara atandukanye nk'umutuku, hakaba hateretseho igikombe cyo mu kirahure kikaba kirimo amata, ntago tuziko niba ari ikivuguto cyangwa inshyushyu.

Hano hari ameza ateretseho indobo ebyiri zose zirabonerana ariko igaragara cyane irimo amandazi, iyo ku ruhande ikurikira yo sinzi ibirimo ishobora kuba ari keke, hejuru yayo hakaba harimo ako gufatisha ntanimwe ifunguye.

Iyi ni inzu yicawemo n'umuntu w'igitsina gabo uri gufunga amata ari kuva muri robine.

Hano hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amakaro hasi imiryango ni ubururu irimo amarido ya jibu arenze ane ndetse kuruhande hari firigo itarimo ikintu

Hano uko bigaragara ni nijoro hirya hari icyapa kinini kiri kwaka cyanditseho inyange hasa nkaho hacururizwa amata y'iyo kampani.

Hano ndi kuhabona ameza. Ateretseho ibirahuri. Muri byo harimo amata. Ku ruhande, akabido, ndetse hirya gato, intebe yera.

Hano hari umumama ukuze yitandiye igitambaro mu mutwe intoki ze zifite ijaga ibonenerana irimo amata asa nkaho ayajyanye ahantu.

Hano hari abantu batatu. Umwe ni umukobwa abandi ni ibitsina gabo. Babiri muri bo bambaye imyenda y'umutuku. Uwo hagati we, ni umukara. Bafite yahurute mu ntoki bose.

Hano uko bigaragara ni iduka ricuruza ibyo kunywa bitandukanye harimo amata, amayogati ndetse n'amaji kuko ku rundi ruhande ndikuhabona amakarito yayo nta muntu urimo.

Hano hari inzu irimo abantu babiri b'igitsina gore, bari kuganira hirya yaho hari firigo eshatu n'akabati, karimo amazi, ji, inaji dirinki, nibindi bitandukanye.

Iyi ni inzu icuruza amata. Nk'uko bigaragara hejuru ku cyapa, cyanditseho Inyange miliki zone, hanze yayo hakaba hateretse intebe zisa ubururu ndetse n'ameza n'umutaka w'umutuku.

Hano ni inzu icuruza amata hateretsemo icyuma cyanditseho mu magambo y'umweru Inyange miriki zone, kiri mu ibara ry'ubururu gikonjesha amata ndetse kikanayasukura.

Hano uko bigaragara hari ameza ariho akabike k'ubururu ndetse hateretseho n'indobo ebyiri, imwe irimo amandazi akozwe mu ifarini asa umutuku ndetse hejuru yayo hari akantu bafatisha amandazi.

Hano hari umuntu ufite ijage mu ntoki y'umweru n'agakombe ka oranje hirya hateretse utundi turi mu mabara atandukanye ubururu, umweru, umutuku.

Iki ni icyuma gikonjesha amata ndetse kikanayarinda gupfa kikanayasukura. Gihagaze mu nzu ifite amakaro akikijwe. Ndetse hakurya hari n'idirishya.

Hano harimo utubido dusa umweru, duteretse kandi turapfundikiye. Nkuko bigaragara harimo amata. Hamwe n'impande yayo hari utundi dukarito, n'amaforumaje byose birimo amata.

Hano ndikubona intoki zifashe itasi irimo amata ntago tuzi neza nyirazo kuko ntago yagaragajwe, kuruhande hagati hari isahane iriho keke ndetse n'amafurusheti abiri harimo n'ikiyiko.

Hano ndi kuhabona icyuma kibika amata kikayarinda kwangirika ndetse kikanayatunganya cyanditseho amagambo menshi agiye atandukanye, impande yacyo hateretsemo utubido tubitse neza.

Hano hari ibintu bikozwe muri parasitike mu mabara agiye atandukanye, bibikwamo utuntu tujyamo ubwoko bw'ibyo kunywa bikozwe mu mata benshi bakunze kwita Yahurute, ni nyinshi ndetse ziratandukanye.

Hano ndi kuhabona abantu babiri. Bari kuvoma amata. Ndetse ku ruhande hari icyuma gikonjesha amata, ndetse kikanayasukura, kikanayarinda kwangirika. Cyanditseho mu magambo y'ubururu "Miliki Zone". Hakurya.

Hano hari ameza ateretseho isahani byose bisa umweru hakaba hariho ibyo kurya bikozwe mu ifarini benshi bakunze kwita capati ndabona ari byinshi.

Hano hari igikarito gifashwe n'intoki, nyirazo ntabwo ari kugaragara neza mu isura. Ariko nk'uko bigaragara, ni ji ikozwe mu matunda. Ni yo irimo.

Hano hari akantu kabonerana kabikwamo capati, ndetse na teremusi ya parasitike, ku ruhande ni iy'icyuma ifite ibara ry'umukara hejuru, bikaba biteretse ahantu.

Iyi n'inzu yanditseho amagambo mumabara y'umweru "Nyanza milk industry" hasi handitse Welcome home, impande yiyi nzu hari moto isa umutuku.

Hano hari abantu batatu babiri muri bo ni ab'igitsina gabo, undi umwe usigaye ni uw'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'ibara ry'umweru ndetse imbere yabo bari kunywa amata mu birahure.

Iki ni icyuma gikonjesha amata kikanayasukura, amagambo yanditseho Nyanza miliki indasitiri limitedi mu mabara y'umweru n'ubururu ku ruhande. Hejuru hari akantu gateretseho, kikaba giteretse mu nzu y'amakaro.

Hano hari inote zitandukanye iya makumyabiri, mirongo itanu, ijana, maganabiri, maganatanu.

Icyapa kinini cyanditseho amagambo emutiyrne uganda mu ibara ry'umuhondo, emupesa icyatsi, wakasa umweru.

Intebe z'umutuku ameza y'umweru hirya umuryango ufunze, ibirahure by'ubururu.

Intebe z'imisego z'ubururu, ameza y'umweru, inyuma amadirishya, igikuta cy'umuhondo.

Hano hari icyumba kinini kirimo ameza n'intebe hasi ni umutuku hejuru ni umweru ku ruhande ni amarido.

Inzu nini y'umweru igeretse ifite ibirahure ku ruhande n'icyapa cya Nyarutarama.

Ahantu hameze nko mu isoko: harimo inkweto nyinshi, abantu batandukanye, umukobwa...

Hano hari inyanya, intoryi, urusenda, abamama batandukanye.

Hano hari abantu benshi batandukanye, imbere hari umugabo wambaye umupira w'umukara urimo amabara y'icyatsi, inyuma hicaye umukobwa uri kudoda ku cyarahani ku ruhande.

Hano hari abantu, ni babiri kandi ni abigitsina gore, bambaye amabaji yabo mu ijosi, n'imyenda y'mihondo.

Hano hari akazu k'umuhondo ka emutieni gafunguye. Hanze hahagaze abagabo batatu, umwe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi.

Hano hari akazu k'umutuku karimo gahagazemo mo imbere umugabo inyuma hari undi w'umuzungu, wambaye ishati y'umuhondo irimo n'umukara ahagaze hanze.

Hano uko bigaragara hari akazu ka MTN ndetse kari mu mabara y'umuhondo, amagambo akanditseho ni mobile money transfer, imbere yako hari umumama asa nkaho ari gusaba serivisi.

Hano ndi kuhabona abantu benshi batandukanye abakobwa ndetse n'abasore, hino gato hari igitambaro gisa umuhondo hakaba hari n'undi muntu wicaye ku ntebe n'akameza, imbere ye hari icupa ry'amazi.

Hano hari abantu benshi batandukanye babiri muri bo bambaye imipira isa umuhondo ya emutiyene. Imbere ya bo hari amamashini abiri ndetse bari gukanda kuri ayo mamashini.

Ndi kubona icyapa cya MTN cyometse kuri firigo cyanditseho wikisonndeka kanda akanyenyeri magana atatu mirongo ine na gatanu akanyenyeri umunani urwego.

Hano hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye abagabo ndetse n'abagore, hakurya hicaye abambaye imipira y'umuhondo abahagaze bo ni umweru. Bakaba bafite amamashini yabo imbere.

Aka ni akazu k'ubucuruzi gafunguye, kometseho ibipapuro bigiye bitandukanye, mu mabara yako akagize ni umweru, umuhondo ndetse n'umutuku, amagambo yanditseho ni Airtel money.

Hano hari akapa gatangwa na emutiyeni gahabwa umucuruzi kugira ngo age abasha kwishyurwa mu buryo bworoshye kanditseho amagambo y'umukara peyi wivu momo peyi ndetse ubwako gasa umuhondo.

Hano uko bigaragara hari abantu bariri ariko ntabwo bari kugargara neza mu maso yabo, uwo ku ruhande asa nk'aho ari gusikaninga kode yo kuri telefone ya mugenzi wiwe, ashobaora buba ari kumwishyura cyangwa ari gukoresha ubundi buryo tudasobanukiwe hano.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo n'agataburiya ka MTN, ari mu ibintu byinshi, ku ruhande hari amasafuriya, intebe, inyuma hari kontineri y'icyatsi, hejuru y'aho hari umutaka.

Hano hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye. Abato n'abakuru. N'abandi bambaye imyenda y'umuhondo, uko bigaragara ni abakozi ba emutiyeni cyangwa se aba ajenti. Hakaba hari abicaye, bari gufasha abantu.

Hano hasa nkaho habereye ibintu tutari gusobanukirwa neza, ariko hari abantu bari kugaragara neza ni batatu b'igitsina gore babiri muri bo bambaye amashati y'ibaraa ry'umuhondo naho ku rundi ruhande ni mu ibara ry'ubururu.

Aka ni akazu, gasa umuhondo, uko bigaragara ni aka emutiyeni, hahagazemo umusore umwe, ari kwandika na bike mu ntoki, n'ikayi, hanze gato hakaba hari umumama.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda gafite ibara ry'umuhondo, kariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, kariho umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'ivu ndetse n'abandi bambaye amakote afite ibara ry'ivu, n'igikapu cy'umukara n'inkweto, n'ipantaro y'umukara.

Hano hari akazu ni gatoya gasa ibara ry'umutuku uko bigaragara ni aka Airtel mobile money hirya yako hari abantu ndetse n'imodoka ya minibus cyangwa se coaster naba nibatandukanye.

Aka ni akazu nk'uko bigaragara ni aka emutiyene kuko gasa umuhondo mo indani harimo umuntu wambaye umupira uciyemo imirongo.

Aka ni akazu ka MTN mobile money gatanga ama serivise atandukanye hari abantu babiri baje kwaka bimwe muribyo, hari nundi mo indani uri gutanga serivise.

Hano hari icyapa gisa umuhondo ndetse cyanditswemo amagambo y'umukara, gihabwa umucuruzi kugirango ajye abasha kwishyurwa nta kiguzi. Cyanditseho emutiyene momo aseputedi hiya.

Abagabo babiri bari kubyina bambaye udupira tw'umweru ninkweto zifunze inyuma hari bafure nini imanitse, kuruhande hari ibyapa by'umuhondo bya MTN .

Hano ndikuhabona ibyapa byinshi bigiye bitandukanye mu mabara, ariyo umuhondo ndetse n'umukara, mo ndani harimo abantu bageze muri batandatu basa nkaho bari kuganira.

Aka ni akazu ka MTN karangaye amadirishya ndetse mw'ibara gasa umuhondo, mo imbere harimo umuntu umwe ufite ikayi ndetse na bike ashobora kuba ari kwandika hanze hahagaze undi.

Aka ni akazi, ni gatoya. Ni aka MTN nkuko bigaragara. Mu magambo akanditseho ni mobilo mani makingi rifu izi. Karafunze amadirishya ndetse nta n'umuntu n'umwe ri kuhagaragara.

Hano hari abantu babiri, bose ni igitsinagore, umwe muri bo yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero irimo amabara abiri n'ubururu, hanyuma undi ukurikira we ari kureba muri terefone.

Ndi kubona moto, yicayeho umugabo, ku ruhande hahagaze umukobwa wambaye ijiri ya emutiyene n'agapira k'umutuku ka eyateli, inyuma ihetse.

Hano hari umuntu uri mu kazu. Afite bike, ari kwandika ku ikayi. Umupira yambaye uciyemo imirongo y'umweru. Naho hanze hari umumama usukishije, ndetse asa nk'aho ari kumwenyura.

Hano hari abantu batanu bane muri bo bambaye imipira isa umuhondo naho umwe we ni ibisanzwe, hejuru y'abongabo handitse amagambo ya emutiyene mu nyuguti nyinshi.

Ndi kubona umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'amarinete, afite telefone mu ntoki, imbere ya hari mashini, umugabo w'igikara mu gapira karimo utubara tw'umutuku.

Hano hari akazu ni gatoya kiganjemo ibara risa umuhondo ndetse n'amagambo asa umukara n'umutuku MTN Mobile recieve Money, hanze yako muri ayo madirishya harimo abantu benshi batandukanye barirerwaga service.

Hano hari intoki zifashe terefone isa umukara ndetse asa nk'aho ari kwishyura kuko handitsemo ishyura maganatanu ni mega bayiti.

Hano amabara ahiganje ni umuhondo. Mo ndani harimo abantu bambaye imipira isa ndetse n'ingofero. Abandi bo bambaye ibisanzwe.

Hano nk'uko bigaragara ni kuri sitasiyo ya esanse hari abantu batatu babiri muri bo ni abagabo undi umwe ni umugore ndetse n'imodoka iparitse itari kugenda umwe muri bo ari kureba muri terefone.

Hano hari abantu babiri batandukanye umwe ni igitsina gabo undi ni igitsina gore akaba yambaye ishati y'umweru ndetse n'akarango k'umuhondo ka emutiyeni uko bigaragara ni uw'akazi.

Hano ko bigaragara hari imitaka ibiri, umwe hino ni usa umuhondo wa emutiyene ndetse undi usa umutuku ko bigaragara ubwo ni uwa eyateri mo ndani harimo abantu bane batandukanye umwe ari guhereza Telefone mugenzi we.

Hano hari akazu uko bigaragara mu ibara ry'ako ni aka MTN amadirishya yako ararangaye hanze hakaba hahagaze abantu babiri b'ibitsina bitandukanye umwe ni gore undi n'igitsina gabo hanyuma bambaye imipira Isa ibara ry'umuhondo

Ndabona umugabo wambaye umupira w'umuhondo urimo n'ubururu wanditseho peyi wivi momo wa MTN n'ingofero ari kumwe n'umumere ufite terefone mu ntoki usa nk'aho hari ibyo ari kumusobanurira yambaye ishati na baji.

Iki ni icyapa cyatanzwe na emutiyeni kigahabwa umucuruzi, kugira ngo ajye abasha kwishyurwa mu buryo bworoshye. Hakaba handitseho izina ry'uwishyurwa, geti pongi intapurayizi, kuri nimero ukurikira yo kwishyurirwaho: karindwi, umunani, mirongo icyenda, makumyabiri.

Hano hari umutaka wa MTN ndetse urimo abantu batatu baba ajenti bambaye amajire asa umuhondo hakurya harundi muntu kuruhande.

Ndi kubona akazu ka emutiyeni mobayilo mane hanze yako hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'umupira w'umweru urimo uturongo.

Ahangaha hari akazu ka eyateri mani kiganje mw'ibara ritukura, impande yako hahagaze abantu aribo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bafatanye mukiganza bari guseka.

Hano hari akapa uko bigaragara gatangwa na emutiyeni ibara ryako ni umuhondo wiganje ndetse n'umukara mu magambo ari yo momopeyi furi ofu caji.

Hano hari abantu bane, babiri muri bo bambaye t-shirt isa umuhondo, naho undi kuruhande yambaye umupira usa ubururu kumwe na kasike, ikigaragara bari kumuhereza esanse.

Hano hari inzu ni nini uko bigaragara iri mu ibara ry'umuhondo kumwe n'ibiarango bya emutiyeni hanyuma hakaba hari abantu benshi bagiye abatandukanye abaje kwaka amaserivisi ndetse n'abandi bakozi bari kubafasha.

Iki ni icyapa gitangwa na emutiyene kigahabwa umucuruzi, kugira ngo yorohereze abamugana kwishyura nta kiguzi. Cyanditseho, ''ishyura na momo peyi'' kiri mummabara y'umuhondo ndetse n'umukara.

Hano hari abantu. Ni babiri, bari kurebana. Bose nubwo bambaye ingofero, baratandukanye. Umwe ni umugabo, ndetse undi ni umugore. Wambaye umupira usa umuhondo. Asa nk'aho ari kuganira.

Hano hari umuntu utagaragara neza isura, ariko intoki ze zifashe telefone isa umukara ndetse muri taburo yayo handitsemo ijambo momo uko bishoboka byose ni apurikasiyo ari gukoresha ya Mtn.

Hano hari umuntu w'igitsina gabo, ndetse arishimye cyane. Yazamuye akaboko hejuru, n'urutoki. Yambaye imyenda isa umuhondo, yanditsemo " Gura pake bando, utsinde." Y'umupira. Hasi ni ubururu bwijimye.

Ahangaha ikigaragara ni agashami ka eyateri mobile money gafite amabara y'umutuku yiganje, hirya kuruhande hari umuntu wicaye asa nkaho ategereje

Hano ndi kuhabona abantu babiri; umwe ni igitsina gabo, undi ni igitsina gore. Bahagaze imbere y'icyapa cyiganje umuhondo, cya emutiyene. Cyanditseho mowa fo yo royariti.

Hano hari icyapa gihabwa umucuruzi kugira ngo ajye ashobora kwishyurwa n'umuguzi batamukase cya emumutiyene. Kiri mu nyuguti z'umukara ndetse ubwacyo gisa umuhondo.

Icyapa kinini cya MTN cyanditseho gura park bandel kandi utsinde, kanda akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego n'akanyenyeri magana atatu mirongo ine na gatanu urwego.

Utuzu twa emutiyeni turimo abantu bambaye imipira y'umweru n'umuhondo, imbere hahagaze umugabo wambaye ishati ya karokaro, ipantaro y'umukara inkweto z'umukara, hirya hari abantu.

Aka ni akazu kari mu ibara ry'umuhondo. Ndetse n'ubururu mu magambo ya emutiyeni ndetse n'akeru gake kanditseho kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, kari ahantu hitaruye ku muhanda.

Hano hari akazu gatoya ka emutiyeni. Amabara yiganje ni umuhondo ndetse n'umukara mu magambo akurikira: sendi mani akorose olu netiwaka hanze muri aya madishya afunguye harimo umumama asa nkaho yaje kwaka serivise runaka.

Hano hari umumama witandiye na none akambara ingofero isa umweru, mu ntoki ze ahafite bike ndetse n'akapa ka peyi wive momo gasa umuhondo, amagambo akanditseho ni ubururu ndetse na baje mu gatuza.

Hano hagaragara ni mu isoko hamanitse amapantaro menshi ndetse mu bwoko butandukanye ndi kubona n'icyapa cya MTN gisa umuhondo ndetse n'intiki zigafasheho.

Hano hari abantu benshi bamwe muri bo bambaye amashati ni ukuvuga ni ibisanzwe abandi bo ni imipira y'umutuku ndetse n'ingofero uko bigaragara bari mu kazi.

Hano uko bigaragara hari akazu ni aka emutiyeni mu mabara yako asa umuhondo ndetse n'ikirango cyako gisa ubururu mu madirishya arangaye harimo abantu batandukanye batanu.

Hano hari akazu, ni gatoya gafunguye amadirishya. Kari mu ibara risa umuhondo ndetse amagambo akanditseho ni umukara ndetse n'umutuku. Mu imbere hicayemo umuntu uko bigaragara ni umugore.

Hano hari telefone ifashwe n'umuntu utagaragara neza mu isura ariko izo ntoki ziri gukandamo, hakaba hari kwakamo umuhondo ibara ndetse na yo ubwayo ikaba isa umukara.

Hano harimo abantu. Ni batatu, batandukanye. Ariko bose ni ab'igitsina gore. Babiri muri bo ni bakobwa, undi ni umumama, usa nk'aho akuze. Umwe muri bo yambaye umupira wa emutiyene, wanditseho "Wivu mobayilo mani".

Hano uko bigaragara hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye. Bamwe ni abagore abandi ni abagabo. Umwe muri bo afite ikayi mu ntoki, arahagaze ndetse yambaye ishati y'ubururu bukeye bw'ijuru, n'ipantaro isa umukara.

Hano hari abantu babiri b'igitsina gabo, umwe yambaye umupira wa MTN, ku ruhande hari ufite uw'imirongo y'umutuku ndetse n'umweru itandukanye, hafi aho hari amamashini.

Hano ndi kubona itente rya eyateri, mobayiromane ndetse n'ibyapa byayo iyo ku ruhande rw'iyo ngiyo, mo ndani harimo abantu bagiye batandukanye ingeri zose. Abagabo ndetse n'abagore abagaragara bambaye imipira y'umutuku n'ingofero.

Hano hari umuntu nubwo atagaragara neza ariko ni intoki ze zifashe telefone iri mu bwoko bwa I you ari gukanda nimero ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri magana acyenda na kabiri magana atanu na gatanu akadirishya.

Hano hari abantu babiri b'igitsina gabo. Umwe yambaye umupira w'umuhondo wanditseho peyi wivu momo, undi afite terefone ari kurebamo.

Aka ni akazu ka emutiyene gasa umuhondo, mo imbere harimo umuntu ndetse no hanze hari umugabo umwe, sinzi ibyo ari gusobanuza ari kwaka serivise runaka.

Hano hari akazu k'ubucuruzi gasa umutuku ndetse kanditseho ibirango bigiye bitandukanye. Kakaba gafunguye amadirishya mo ndani hakaba hicaye umuntu nubwo atari kugaragara neza.

Hano hari icyapa cyangwa ikirango gihabwa umucuruzi gitanzwe na emutiyene, mu magabo yaho handitseho go tu peyi mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo wiganje.

Hano hari akazu ni gatoya gasa umuhondo uko bigaragara hariho ibirango bya emutiyeni. Mo ndani harimo umuntu uri gufasha mugenzi we, ashobora kuba yaje kumwaka serivise runaka.

Hano hari abantu benshi b'abamama inyuma yabo hari inzu iri kwakamo amatara y'umweru, hejuru hari icyapa kinini k'icyatse cyanditseho imyaka icumi hamwe namwe murakoze.

Hano hari inzu ni nziza gusa ikirango ifite ni momo mtn, nkuko bigaragara mu ibara ryacyo ry'umukara ndetse nayo ubwayo yiganje umuhondo.

Hano hari inzu cyangwa se inyubako ifite ibirango bya emutiyene. Uko bigaragara ikaba isa umuhondo n'amagambo yanditseho asa umukara, imbere yayo hari gutambuka abantu batandukanye.

Hano hari intoki z'umuntu utari kugaragara neza isura, ariko zambaye ibikomo ndetse zifite telefone mu ntoki isa umukara ziri gukanda mo. Hirya turabona ko anambaye ipantaro isa ubururu.

Hano uko bigaragara ni iduka ricuruza amatelefone, imbere yange ndikuhabona icyapa cyanditseho peyi wivu momo peyi, akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu akadirishya, bigaragara ko cyishyurirwaho.

Iki ni ikirango cya emutiyeni, gihabwa umucuruzi, kugira ngo ajye ashobora kubasha uko yishyurwa na kode. Cyanditseho amagambo y'umukara, ndetse ubwacyo gisa umweru. Ndetse n'umuhondo.

Aka ni akazu gatangirwamo serivise zitandukanye , irembo mobikash, beka , ekwiti . Hakaba hakorermo abajeti , ndi kubonamo abantu batatu icupa rya jibu.

Hano hari umutaka. Ufite amabara akurikira: umukara, mu ikirango "emutiyeni", ndetse n'umweru, mu magambo "momo ajenti". Hakaba harimo abantu babiri. Umwe ahetse bage mu mugongo, ndetse n'uwa kabiri.

Hano hari abantu ni batatu bose ni abigitsinagabo babiri muri bo bambaye imipira isa umuhondo ndetse n'ikirango mu gatuza cya MTN undi ukurikira ni ishati yera basa nkaho bari kumufasha yaje kwaka serivise.

Ndi kuhabona ishitingi isa umuhondo ya MTN Mobile Money yanditseho amagambo y'umukara ndetse mu mande yayo hari abantu bagiye batandukanye bari kurebamo bashobora kuba bari kwaka serivisi runaka.

Ndi kubona utuzu tubiri, kamwe gasa umuhondo kanditseho n'ibirango bya emutiyene mobayiro mani. Akandi ko ni umutuku ndetse n'amagambo ya eyateri mani.

Hano nk'uko tubibona ni kuri sitasiyo hari umugabo umwe wambaye umupira w'umweru yazamuye akaboko ari kwishyura akoresheje sikaningi ya esanse nibwo buryo bugezweho bwo kwishyura.

Hano ndikuhabona akazu gasa umuhondo wiganje amagambo akanditseho ni mobayilo manit aransifa hasi mu bururu ndetse n'umukara n'umweru ni emutiyeni.

Inzu nini iriho ibyapa bya MTN, hari abantu benshi batandukanye bambaye imipira y'umuhondo n'amashati y'umweru n'udukaruvati, imbere hari umugabo umeze nk'uri kwaka serivisi.

Ndikubona intoki z'umuntu tutamenye neza mu maso. Ariko uko bigaragara ni umuzungu afite telefone mu ntoki, ndetse isa umukara mo indani irikwaka, harimo akarago ka eyateli.

Aba ni abantu babiri b'igitsina gore, mu maso yabo urabona bishimye cyane, ku mipira yabo isa umuhondo, ndabona handitseho MTN mobayiro mani, mu gatuza bakaba bambaye badji isa umweru.

Hano hari telefone mu bwoko bw'intoya ifashwe n'umuntu utari kugaragara neza isura, asa nkaho ari kwishyura kuko handitse ugiye kwishyura amafaranga ibihumbi bibiri magana tanu kuri Jean Bosco.

Hano hari abantu benshi bambaye imyenda isa. Umuhondo ariyo mipira, ndetse hasi bambaye amapantaro asa ubururu. Hanyuma nk'uko bigaragara ni nka emutiyeni. Iki gikorwa kiri kubera hano.

Akazu ka MTN mu ibara ry'umuhondo. Karafunguye! Ku ruhande hari idirishya, n'imbere. Hari icyapa cyanditseho akanyenyeri ijana, mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri, gatanu, urwego. Mokash.

Hari abantu babiri batandukanye umwe ni igitsina gabo undi ni umugore ari kureba muri telefone akaba yambaye umupira usa umuhondo.

Iki ni icyapa cy'umuhondo gitangwa na Mtn. Cyanditseho goti tupeyi mu mabara y'umukara.

Iyi ni inzu ya emutiyeni mobayilo mani hanze y'ayo madirishya hahagaze abantu babiri batandukanye umwe yambaye ingefero ndetse n'ikanzu y'abisilamu.

Hano hari akabati kanditseho eyateri mobiro mane mu ibara ry'umutuku, impande hari icyapa nacyo mu birango bimeze gutyo.

Hano ndi kubona abantu bane muri rusange abagabo babiri n'abagore babiri bahagaze imbere y'akazu ka emutiyene ikigaragara baje kwaka serivise umuntu uri muri ako kazu gasa umuhondo.

Hano hari akazu ka emutiyeni k'umuhondo. Hanze hari abantu batatu, abagabo babiri, n'umugore umwe. Yambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi, ubundi ishati y'umweru.

Hano imbere yange ndi kuhabona amazu yiganjemo ibyapa bya MTN Mobayilo Mani ndetse mu ibara ry'umuhondo. Imbere gato, hari abantu bageze muri batandatu, basa nk'aho bategereje.

Ndi kubona amazina Fabrice Hakuzimana akitso magana abiri mirongo itanu, zeru umunani itandatu gatanu makumyabiri nagatandatu umunani umunani gatatu amafaranga igihumbi.

Hano uko bigaragara hari abantu benshi batandukanye, ni abakozi ba MTN hakaba hari n'umuzungu umwe w'umugabo.

Hano hari akazu ka emutiyeni mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu mu birango bya emutiyeni amadirishya yako ararangaye, imbere harimo umuntu ndetse no hanze hari undi asa nkaho ari kumufasha.

Hano ndi kubona akazu ka emutiyeni mobayiro mane gasa umuhondo ndetse amadirishya yako arafunguye. Hicayemo abantu babiri hanze hari umugabo wambaye ikositime.

Hano hari abantu babiri nubwo batandukanye bose ni ab'igitsina gabo, uwo ku ruhande yambaye umupira usa umukara ndetse n'ipantaro isa ubururu afite igare mu ntoki, ukurikira we ni umuhondo.

Hano nk'uko bigaragara ni agashami ka emutiyeni, cyangwa se ishami rikuru. Mo ndani ndabonamo igikuta kiriho ikirango, cya emutiyeni, ndetse imbere yacyo hari intebe, nta muntu uzicayeho.

Hano hari igikuta. Gisa umweru, ndetse kibambyeho akapa. Gatangwa na emutiyeni, gahabwa umucuruzi, kanditseho mu magambo yako asa ubukara, ndetse ubwako ni umuhondo," Peyi wivu momo. Kidi shotsi".

Aka ni akazu ka Emutiyeni. Gasa umuhondo ndetse gafite n'ibirango byaho. Ahantu kari, nta muntu n'umwe uhari.

Hano hari abantu batatu. Bambaye imipira isa ndetse n'ingofero zisa. Hakaba hari ikindi kintu cyo gukaraga kurira utsinde. Cya emutiyeni.

Aka ni akazu ni gatoya kari mu ibara ryumuhondo rya MTN karafunze amagambo akanditseho ni Mobile Money byumvikana ko ari aka MTN, hirya yako hari umuntu urigutambuka.

Hano hari akazu ni gatoya gasa umuhondo gafunguye amadirishya, mo imbere harimo umuntu ndetse no hanze hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro isa umukara arahagaze.

Hano hari akazu ka Emutiyeni, ni gatoya, karitaruye, imbere y'inyubako. Hari umugabo wambaye hejuru umutuku, uri kuza agasatira. Ashobora kuba agiye kwaka serivisi.

Hano hari ikirango cya MTN gitangwa na yo ndetse kigahabwa umucuruzi kugira ngo abamugana bajye bashobora kumwishyura neza nta kiguzi. Kiri mu mabara y'umuhondo ndetse amagambo acyanditseho ni umukara.

Hano hari akazu gasa umuhondo uko bigaragara ni aka emutuyeni mobayilo mani mu imbere aharu umwajenti wambaye ijire ndetse n'agapfukmunwa ku rundi ruhande hahagaze umugabo uri kureba muri terefone.

Hano hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda isa umuhondo, ndetse no hasi ni ubururu nk'uko bigaragra inyuma hari ibirango bya emutiyene mobayiro mane.

Hano hari abantu bane, umwe aricaye, babiri bahagaze, imbere muri kontwari harimo undi wicaye uri gutanga serivise, hejuru hari sikirini iri mu ibara ry'umuhondo.

Uko bigaragara iyi ni inyubako ya emutiyeni kuko iri mumabara y'umuhondo, ndetse n'amagambo y'umukara ariyo ryoherwa n'umuvuduko wa enterineti ya fogi aho waba uri hose. Imbere ndi kuhabona umusekilite.

Hano hari umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse hasi ni ubururu, ari mu idirishya ry'akazu ka emutiyene ndetse gasa umuhondo ari kuvugana n'umuntu urimo, hakurya ku ruhande hari abandi bantu benshi.

Ndi kubona umutaka wa emutiyene w'umuhondo wiganje n'aho munsi yayo hari abantu benshi ahagaragara neza ni ab'igitsina gabo n'undi mwajenti ku ruhande wambaye ijire.

Imodoka y'umukara yometseho akapa ka MTN, mo imbere harimo agacupa k'umweru n'umugabo, hanze hahagaze umugabo wambaye umupira w'umuhondo urimo ubururu wanditseho.

Hano hari inzu irimo abantu batanu, umwe aricaye, babiri barahagaze imbere, hari n'undi wicaye, hejuru hari sikirini irimo umugabo w'icyatsi n'indege.

Iki n'icyapa gihabwa umucuruzi kugirango arye abasha kwishyurwa neza ntakiguzi, cyanditseho payi wifi emutiyeni momo hiya, kiri mumabara y'umuhonda yiganje ndetse amagambo ni umukara.

Ndi kubona umuntu w'umugabo uhagaze, wambaye umupira w'icyatsi, imbere hari sikirini nini imanitse iri mu ibara ry'umuhondo na telefone yanditse mo ijana na mirongo ine, urwego.

Hano hari akazu ni gatoya gafunguye amadirishya, hicayemo umuntu ndetse mu ibara ryako gasa umuhondo mu magambo yako y'umukara handitseho serivise za emutiyeni mobayilo mani wazisanga hano.

Hano hari aga tente, cyangwa se agataka, ka Emutiyeni mobayiro mani, nk'uko bigaragara gasa umuhondo ndetse no hasi hari ibirango byayo, mo imbere harimo abantu babiri bambaye imipira, ku ruhande hakaba hateretse ikintu k'ikiradiyo.

Aka ni akazu gasa umuhondo wiganje karimo umuntu, amwe mu magambo akanditseho harimo ni "MTN MOBILE MONEY making life easy" kakaba gakorerwamo ubucuruzi kucuruza amayinite kubitsa no kubikuza amafaranga.

Hano ikigaragara ni mu isoko bakaba bacuruza ibiribwa bitandukanye , ndikubonaho abantu, ibiribwa arizo intoryi, karoti, pavuro, n'ububido hejuru mu matajeri ndetse hakaba hari n'icyo kwishyuriraho cya Mobile Money.

Hano ndi kubona intoki ariko ntago hagaragajwemo neza nyirazo, mu biganza bye afitemo terefone yo mu bwoko bwa ayiyu, muri iyo taburo handitsemo shyiramo amafaranga asa nkaho ari koherereza umuntu.

Iyi ni inzu mu mabara y'umuhondo amagambo yanditsemo mu mukara ni Rwanda leading network imbere gato hari abantu benshi.

Hano hari akazu, ni gatoya, gafunguye amadirishya, kari mu ibara ry'umuhondo ndetse amagambo akanditseho ni umukara ariko ntabwo agaragara neza. Mo indani, nta muntu ukicayemo.

Nabonaga umugabo wambaye ipantaro yumukara numupira w'umweru urimo utubara tw'umuhondo imbere ye hari ameza ariho amajire ya emutiyeni n'ingofero na gurude kuruhande hahagaze umugabo ufite agakapu mu ntoki.

Aha ngaha ikigaragara ni inzu icuruza ibintu bigiye bitandukanye. Hahagaze abantu babiri b'igitsina gore; umwe yambaye umupira usa mu ibara ry'umuhondo, ingofero yambaye irimo ubururu, ku rundi ruhande hari undi ufite telephone mu ntoki.

Hano hari abantu benshi batandukanye gusa ugaragara ni umuzungu w'uruhu rwera afite icyapa mu ntoki cya emutiyene gisa umuhondo ndetse n'umweru n'ubururu cyanditseho kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri.

Hano hari utwapa twinshi dusa umuhondo ndetse n'amagambo atwanditsemo y'ubururu dutangwa na emutiyene duhabwa umucuruzi kugira ngo age abasha kwishyurwa ntakiguzi, ndetse impande yatwo hari amamashini abiri ari kwaka.

Aka ni akazu umu ajenti wa emutiyene akoreramo kanditseho tudeyi.

Aka ni akazu ka emutiyene mu ibara ryako ni umuhondo mu indani harimo umuntu ndetse no hanze yako hari abandi.

Hano hari abantu benshi; batanu muri bo ni ab'igitsina gabo, ndetse bambaye imyenda ya MTN Mobayilo Mani isa umuhondo. Ku ruhande, umumama ufite anvelope ari gutambuka.

Hano hari abantu babiri batandukanye umwe yambaye umwenda usa umuhondo undi n'icyatsi bari impande ya kazu ka emutiyeni kanditseho momo nyabo bose bari guseka.

Aka ni akazu ka emutiyeni nk'uko bigaragara n'ibirango byako mu mpande yako. Gasa ibara ry'umuhondo, ndeste imbere hahagaze abantu bageze muri bane umwe yambaye umupira w'umutuku kimwe nu'o hirya ye.

Hano hari utuzu tubiri, kamwe gasa umuhondo, uko bigaragara ni aka MTN Mobile Money, akagukirika ni umutuku ndetse n'umweru ni aka Airtel.

Aka ni akazu ka Emutiyeni, mu ibara ry'umuhondo ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ni senti mani akorosi oru netiwaka, hari abantu batatu batandukanye.

Hano hari umuntu afite terefone mu ntoki ze ntabwo ari kugaragara neza mu maso ariko yambaye agakomo ku kaboko ndetse n'agasakoshi, ipantaro y'ubururu, ari gukanda muri telefone.

Hano hari abagabo babiri, umwe ni umusore undi asa nkaho akuze, uyu nguyu we yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ubururu kimwe n'ingofero ye, uwo ku ruhande we ari kureba muri terefone.

Akazu k'aba ajenti ka MTN karafunguye, mo imbere harimo umuntu ufite imisatsi y'umukara, wambaye umweru, hirya hari undi wambaye umupira, hino hari undi wambaye ishati y'umuhondo.

Hano iyi ni inzu ya MTN mobile money isa umuhondo ndetse ifite n'ibirango mu mpande yayo, mo imbere hicaye umuntu ndetse yubitse umutwe, hanze hari umwana uri kugenda.

Umugabo wicaye kuri mota wambaye ipantaro y'umukara umupira wa oraje urimo n'umuhondo, ipakiye igikapu cy'umuhondo.

Hano hari abantu babiri bose ni ibitsina gabo, hagati yabo haparitsemo moto ndetse iriho ikintu inyuma cyanditseho vuba vuba, bose bafasheho ndetse bambaye imyenda isa icyatsi.

Moto iparitse iri mubwoko bwa savenisenke mu ibara ry'umutuku ihetse iki bogisi cy'icyatsi cyanditseho vuba, hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi afite amverope ari gushyiramo.

Hano ndi kubona ibintu byinshi by'amoko menshi atandukanye harimo icyuma gifura imyenda, radiyo, moto, tereviziyo, inkweto, ikote rya jaketi, terefone, laputopu.

Foda iri mu ibara ry'umweru mu kirango cy'umutuku, ikanzu, umupira w'amaboko magufi, inkweto na ekuteri na telefone.

Hano hari moto nyinshi ndetse zicaweho n'abantu ziri kugenda mu muhanda, bambaye amakote asa yanditseho yego moto kimwe n'amakasike, hakurya hari inzu ndetse n'imodoka.

Hano hari agakapu kagiye karimo imbuto z'amako atandukanye: ishu, umuneke, inyanya, sereri, shufurere, ku ruhande hari na telefoni.

Hano hari amagambo agira uti "gukora ubusabe, hamagara ku buntu, icyenda rimwe eshatu. Whatsapp, zeru karindwi mirongo inani, kane ebyiri, zeru gatanu kabiri kabiri. Kanda akanyenyeri, ikenda rimwe rimwe, stay save shop online".

Hano hari moto enye zicaweho n'abantu bane ariko ntabwo ziri kugenda, inyuma yabo hari akabogisi kanditseho juma fudu, bigaragara yuko zitwara ibintu ahantu.

Hano ndabona ari iduka ricuruza ibikoresho bya eregitoronike, harimo abantu batatu babiri ni ab'igitsina gore ndetse n'umwe w'igitsina gabo, amagambo yanditse imbere ni ruti Rwanda.

Hano bishobora kuba umuntu yari ari kwaka ibintu bitandukanye. Kuko handitse: " Gushaka serivise, kanda hano, uyibone. Umuryango, icyemezo cy'uko uri ingaragu, serivise z'ubutane."

Aha ni ahantu hari abantu benshi bambaye imyenda isa, bari mukazi barahuze. Nanone kandi ndikubona ibintu byinshi byo mu mabara atandukanye; umuhondo, umutuku ndetse n'ubururu harimo ibitoki hasa nk'aho ari mu ruganda

Hano hari umugabo waambaye kasike ndetse na telefone mu indani, ari impande ya moto ifite ikintu inyuma gisa umutuku cyanditseho kefusi.

Uyu ni umuntu umwe w'igitsina gore, akaba yambaye umwenda mw'ibara risa icyatsi, Mu gatuza handitseho VUBA VUBA, akaba ari gufungura ahantu.

Hano hari umukobwa uri guseka, ufite terefone mu ntoki, imisatsi myiza y'umukara, ekuteri z'umweru, agapira, ipantaro, yicaye ku buriri, imbere ye hateretse agakapu k'umukara.

Iyi ni inzu icuruza ibikoresha bya erekitoronike nk'uko bigaragara. Harimo abantu batatu; babiri muri bo ni gigtsina gore, undi umwe ni umugabo. Bakaba bari ku mamashini sinzi ibyo bari gukurikirana.

Hano hari inyubako ifite ikirango cyanditseho Rwanda korozingi ndetse hanze yayo haparitse imodoka isa ubururu, uko bigaragara basa nkaho bacuruza imyenda yo kwambara cyangwa imirimbo itandukanye.

Ndi kubona burete zikoze mu yama ni nyinshi ziri mu kantu k'umweru, ni nyinshi zigura amafaranga magana arindwi, hasi hari shokora ikase mu gapande kamwe ..

Hano hari umugabo wegamye kuri moto ye sa veni senke yambaye umupira wa oranje uvanze n'umuhondo, naho hasi n'ibara ry'umukara mumaso ye araseka ndetse afite n'agasatsi gakeya.

Uyu ni umuntu uhagaze ahantu hari igipangu afite igare rye. Amabara y'imyenda yambaye n'icyatsi n'umukara hasi akaba ahetse bage yanditseho vubavuba.

Hano hari moto yicayeho umugabo yambaye kasike y'umutuku, ihetse igikapu kinini kirimo ibara rya oranje, isa nkaho iri kugenda.

Hano hari moto nziza cyane yo mu bwoko bwa sikuta, inyuma umuntu wari uyitwaye wambaye umupira y'icyatsi ndetse na kasike ari gufungura inyuma, hari ibyo agiye gukuramo kugira ahereze umugabo bari kumwe.

Hano hari moto iparitse ihetse ikibogisi cy'umukara, imbere yayo hahagaze abantu babiri, umugabo wambaye kasike y' icyatsi uri guhereza umukobwa agakapu kanditseho safi.

Hano hari abantu babiri nkuko bigaragara umwe ni umusore undi ni umugabo akaba yambaye kasike ye ndetse ari gukura akantu kuri moto ye agahereza mu ganezi we.

Hano nk'uko bigaragara hari moto. Uyitwaye yambaye kasike utukura, ishobora kuba iri kugenda. Inyuma ikintu atwaye gisa oranje ndetse n'umuhondo, hakaba handitseho poze derivari.

Hano hari umuntu ni uw'igitsina gabo yambaye ijire y'ubururu ndetse na kasike ari gukura akantu muri bogisi iri inyuma ya moto ye yanditseho kasha.

Hano ndi kubona abamama bagiye batandukanye harimo uwitwa Ingabire, Assoumpt, Diane, Francoise, Rosette, Francine.

Hano hari moto. Ni eshatu, zifite amapurake asa. Inyuma yazo, hari ibintu inyuma, by'umweru. Byanditseho Migoro. Imbere gato, ni amakasike, na yo yera,

Hano hari moto ndetse ihetse akantu inyuma gasa nk'ubururu. Hakurya ku ma esikariye hahagazeyo umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umukara, inkweto zifunguye ntabwo ari kugenda.

Hano hari abantu babiri umwe ni umuzungu ndetse n'undi ni umwirabura bafite kasike ebyiri mu ntoki zabo.

Ndi kubona umuntu wambaye itabuririya y'ubururu wikoreye igikarito cy'umweru, ku ruhande hari icyapa kinini cy'umuhondo cyanditseho amagambo twiga.

Hano hari moto enye zicaweho n'abantu. Bari kureba imbere ariko uko bigaragara ntabwo batwaye, ku rundi ruhande hari utubogisi tw'umutuku bikoreye twanditseho amagambo.

Hano hari moto eshanu, nubwo zitandukanye mumabara ariko ni ubwoko bumwe, zicaweho n'abantu bangana nkazo ndetse inyuma zihetse ibintu bisa, umweru ndetse n'umutuku, ziraparitse ntabwo ziri kugenda.

Hano hari umusore ukeye wicaye kuri moto ye yo mu bwoko bwa sikuta, yambaye umupira gusa icyatsi ndetse na kasike ye isa gutyo, ipantaro ni umukara, inyuma ye atwaye akantu kakabogisi.

Hano hari umuntu uri ku igare rye, wambaye umwenda usa icyatsi. Hejuru hakaba handitse vuba vuba.

Hano hariho imbuto zitandukanye z'amoko menshi, inanasi, betarave, karoti, igitunguru, inyanya, pavuro, ishu.

Hano hari moto iparitse yo bwoko bwa saventi senke, ihetse akantu inyuma ko mu ibara ry'umutuku n'amagambo y'umweru yanditsemo ni yego. Hakaba hari umuntu ku ruhande ufite anverope, akaba ari kuyiterekaho hejuru.

Aha hari abantu babiri b'igitsinagore umwe yambaye ishati isa icyatsi, ndetse ari guhereza mugenzi we amvelope irimo ibiribwa bigiye bitandukanye. Undi nawe ari kuyakira aseka.

Ndikubona ibiribwa, imbuto z'amoko yose harimo: amafi, inyama zisanzwe, inkoko, amashu, inyanya, karoti, betarave, inanasi n'amavuta yo gutekesha.

Moto iri kugenda yicayeho umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira k'umukara, ihetse ikibogisi cy'ubururu kiriho ingufuri.

Hano hari moto iparitse ihetse igikarito kirimo amabara y'umutuku n'umweru. Hirya hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ipantaro ya kake. Hino hahagaze uyitwara.

Imbere yange ndi kubona amagambo mu inyuguti z'imikara Kigali online market place, iyi ni group igurisha cyangwa se igacururizwaho ibintu bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kigali, ikorera kuri online.

Uyu ni umuntu w'umugabo yegamye kuri moto ye ndetse yambaye umupira wanditseho vubavuba hakurya ni Bugarama.

Amaguru abiri yambaye udukweto tw'umukara turimo n'umweru, inzara zisize verine y'umweru, igiciro icumi na magana atanu amafaranga y'u Rwanda.

Hano hari umuntu w'igitsina gabo mu maso ye urabona yishimye cyane, mu ntoki ze afite anverope irimo karoti n'ibiribwa, mu myenda yambaye isa icyatsi.

Hano hari umuntu uko bigaragara ni umukobwa intoki ze zifashe terefone isa umukara akaba yafunguye apulikasiyo yanditseho Vubavuba asa nk'aho agiye gushopinga ibintu cyangwa se kugura onuline.

Hano ndi kuhabona abakobwa babiri bose bari kumwenyura umwe yambaye umutuku, undi ni icyatsi bafite akantu imbere yabo kanditseho mirongo itanu ku ijana.

Moto y'umutuku, iparitse ku ruhande hari amapafe, ihetse igikarito kiri mu ibara ry'icyatsi cyanditse mu magambo y'umweru.

Hano hari imodoka ni nini ndetse ifite amabara abiri atandukanye, ubururu ndetse n'umuhondo. Amagambo ayanditseho ni iposita uko bigaragara ni iy'ikigo runaka.

Uruhande rumwe ndi kubona umuneke udatonoye n'undi utonoye uciyemo udukoni dutatu, mu nsi handitse suwiti banana, ku ruhande hari ayirishii patato.

Iyi uko bigaragara ni inyubako ku gisenge ndahabona harimo marangeti, munsi yayo handitseho amagambo agira uti hawuzi ofu tayo, hasi mu madirishya urebeyemo urabona ari inzu igurisha imyenda.

Hano hari moto eshatu nindi hakurya itagaragara neza kuri izi hariho abantu bari kureba hino kumwe nibindi bintu byibi box biri inyuma bisa umutuku n'umweru wiganje.

Hano uko bigaragara ni amahembe ya moto umuntu uyitwaye ari gukoresha terefone ye yayishyizeho lokasiyo kugira ngo abashe kugera ahantu ashaka kugera bitamugoye.

Hano hari moto imwe yo mu bwoko bwa sa veni senke ikaba ifite ikintu iyuma gisa icyatsi ndetse mu magambo y'umweru cyanditseho vubavuba ndetse no mu mpande.

Imipira imanitse kuri porutomanto mu mabara yose umutuku, umweru, umuhondo, icyatsi, ubururu, umukara hirya ku ruhande hari udukapu.

Hano hari umugabo uparitse moto ye mu muhanda w'amabuye, afunguye inyuma ari kurebamo ikintu, inyuma yambaye umwenda wanditseho Vuba vuba mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Uyu ni umuntu uhagaze impande ya moto ye ari gukuramo bintu inyuma, yambaye ijire isa oranje ndetse n'uturonko duciyemo, hasi ni ipantaro isa ubururu bwijimye.

Hano ndi kuhabona moto ebyiri zicaweho n'abantu bane, babiri muri bo ni igitsina gore anandi ni igitsina gabo ndetse bambaye amakasike asa ndetse bari mu muhanda wa kaburimbo bari kugenda.

Hano hari icupa rya gaze ry'ubururu, hagati hari moto yo mu bwoko bwa sa veni seke y'umutuku ihetse igikarito kirimo amabara y'umweru. Ku ruhande hari icupa rinini rya jibo ry'amazi.

Hano hari umugabo cyangwa se umusore, afite agasatsi gakeya ndetse yambaye umupira usa orange. Ikarito afite mu ntoki yanditseho juniya. Hasi ni ipantaro isa ubururu.

Hano hari umuntu nk'uko bigaragara ni igitsina gabo, yamabye kasike ndetse n'umupira usa umukara. Imbere ye hari ikintu ari gushyiramo akantu afashe mu ntoki ze k'agakarito gasa umweru.

Hano hari moto ebyiri zisa ziri mu bwoko bwa sa veni seinc ziparitse nta muntu uzicayeho zihetse box imwe ni umutuku indi ni umuhondo.

Iyi ni inzu yanditseho ihaha akadomo rwa mumagambo y'umweru. Hasi gato hari umuntu uri kumwe n'ibikarito.

Moto iriho umuntu ufite terefone mu ntoki, wambaye ipantaro y'umukara, ihetse ikibogisi kirimo amabara y'umweru n'umutuku byanditseho mashifodizi.

Iyi ni moto yicaweho n'umuntu ari kureba imbere. Mu mabara y'icyatsi hari ikintu cyanditseho Vuba Vuba. Ndetse iraparitse ahantu hari ibyatsi. N'icyapa gisa umukara.

Hano hari amamodoka ageze muri ane manini kandi yikoreye inyuma ikintu cyanditseho twiga mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo. Hejuru hari inyubako.

Inzu igeretse ifite ibara ry'umuhondo, hanze hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki.

Umugabo wambaye ingofero, umupira w'umukara n'umuhondo, upakiye ibikapu bibiri inyuma ye hahagaze abandi bantu.

Iri nk'uko bigaragara ni isoko ricuruza imbuto zigiye zitandukanye n'ibiribwa, ndabonamo inyanya, amaronji, inanasi ndetse na voka.